Imbere y'inzu ifite amabara y'umuhondo ikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi, hari itsinda rigari ry'abantu bambaye imyambaro isa ifite amabara y'umutuku, bikaba byerekana ko bakorera umuryango utabara imbabare.

Itsinda ry'abantu, barimo babiri bambaye imyambaro y'umuryango utabara imbabare, bahuriye ahantu mu cyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, birimo nka mudasobwa, byifashishwa mu itumanaho.

Utudege duto tutagira abapiloti dukunda gukoreshwa cyane mu buvuzi aho dutwara ibikoresho birimo nk'amaraso, imiti, ndetse n'ibindi bikenewe kugira ngo abaganga batange serivisi nziza.

Mu bwubatsi butoshye imbere y'inyubako ikorerwamo ibijyanye n'ubutabazi bw'ibanze, ari itsinda rigari ry'abantu, bamwe muri bo bambaye imyambaro y'Umuryango utabara imbabare, aba bakaba bari kwerekana impamyabushobozi bahawe, mu bijyanye no gutanga serivisi z'ibanze z'ubuzima.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bateraniye ahantu ari ikibuga ndetse n'ibiti birebire, aba bakaba bakurikiye amahugurwa ndetse n'ibiganiro bari kugezwaho n'abantu, bakora mu muryango ushinzwe gutabara imbabare.

Imbere y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, hari abagabo bambaye imyambaro ibarinda kuba bagira indwara bandurira ku barwayi, aba bakaba bari kwinjiza umugabo mu modoka ivana abarwayi ahantu hamwe ibajyana ahandi.

Abagabo bambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi y'umuryango utabara imbabare, bafite mu biganza byabo umugabo ufite ikibazo cy'ubuzima. Aba bamujyanye aho ari bwitabweho agahabwa serivisi z'ibanze.

Ibikoresho birimo imikasi ndetse n'uducupa turimo imiti itandukanye, utu tukaba twifashishwa mu gihe hari umuntu uhuye n'impanuka cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyatuma ubuzima bwe bumera nabi. Ibi bikoresho bikaba bituma uwo muntu ahabwa ubutabazi bw'ibanze.

Agakapu k'ibara ry'umutuku karimo udukoresho dutandukanye dufite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, utu dukoresho tukaba turimo umukasi, amapamba ndetse n'ibindi. Ibi bikaba byifashishwa mu gutabara umuntu ukeneye serivisi z'ibanze zijyanye n'ubuzima.

Mu icyumba cyabugenewe cyo kwa muganga kiberamo ubuvuzi, harimo itsinda rigari ry'abaganga bambaye imyambaro y'akazi, uturindantoki ndetse n'udupfukamunwa, bakaba bari kwita ku murwayi bamuha imiti.

Mu cyumba cyo ku bitaro, kirimo udutanda turiho ibiryamirwa byiza ndetse bikaba biryamwaho n'abantu baje kwivuza, aha kandi harimo n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi.

Ahantu mu cyumba kiberamo inama gifite amabara y'umweru hateraniyemo abaganga bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, aba bakaba bicaye aho bari gukurikirana ikiganiro bari kugezwaho n'ubakuriye.

Mu cyumba cyabugenewe cyo kwa muganga gifite amabara y'umuhondo weruye harimo ababyeyi babiri b'abagore, aba bakaba bari kuvurwa n'umugore wambaye imyambaro y'akazi ndetse n'agapfukamunwa kamurinda kuba yagira indwara yandurira ku barwayi.

Mu cyumba cyabugenewe cyo ku bitaro kibikwamo imiti ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi, harimo abagore babiri b'abaganga. Aba bakaba bari kwandika amakuru y'abarwayi ndetse no gutandukanya imiti ivura indwara.

Itsinda rigari ry'abantu bakora mu muryango ushinzwe gutabara imbabare, bakaba bambaye imyambaro ibaranga ifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, aba bakaba bari imbere y'inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Mu cyumba cyabugenewe cyo ku bitaro, kirimo abarwayi benshi bicaye ku buriri, aho bahererwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi. Ibyo bitanda kandi bikaba biriho inzitiramibu zikoranye imiti, zirinda abo barwayi kuribwa n'imibu.

Inyubako y'ibitaro yubatswe yifashishijwe amatafari ahiye ifite amabati y'ubururu, iyo nyubako kandi ikaba ifite imbere yayo ubusitani bwiza burimo ibyatsi bitoshye ndetse n'indabo zifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Mu cyumba cyabugenewe cyo ku bitaro gitangirwamo serivisi zitandukanye, harimo ababyeyi b'abagore bafite abana bari munsi y'imyaka itanu. Aba bakaba bari kwitabwaho n'abantu bashinzwe ubuzima kuri ibyo bitaro.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro izwi mu muco nyarwanda nk'imikenyero, ari mu cyumba cyabugenewe cyo ku bitaro bya gisirikare, uyu akaba ari gusuzumwa n'umugabo wambaye impuzankano y'igisirikare yifashishije agakoresho k'ikoranabuhanga.

Mu cyumba cyabugenewe cyo kwa muganga, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi. Aha kandi harimo umugabo wambaye imyambaro y'akazi, akaba ari gusobanurira ibijyanye n'ubuzima abandi bantu baje kureba uko bikorwa.

Umuti ubitse neza mu gacupa gafite icyapa cy'umweru ndetse n'umukara, uyu muti ukaba ubikwa ahantu habugenewe kugira ngo utangirika maze na wo ugakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zibasira umubiri.

Umugabo uri mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi wambaye imyambaro y'akazi ndetse n'udupfukamunwa, akaba ari gukoresha igikoresho k'ikoranabuhanga gikoreshwa mu kureba ibintu bitaboneshwa ijisho. Uyu akaba ari gukora ubushakashatsi ku ndwara.

Mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi kirimo ibyuma birimo nka mudasobwa ndetse n'ibindi, harimo umugabo wambaye imyambaro y'akazi agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, uyu akaba ari gukoreramo ubushakashatsi bwe.

Mu cyumba gifite amabara meza, cyo ku ishuri gikorerwamo ubushakashatsi, harimo ibikoresho byifashishwa muri ubwo bushakashatsi ibyinshi bikozwe mu birahuri. Nanone kandi harimo itsinda rigari ry'abanyeshuri, bari gukoreramo ubushakashatsi.

Itsinda rigari ry'abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe yifashishwa mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi. Muri iki cyumba kandi hakaba harimo ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bikozwe mu byuma byifashishwa muri ubwo bushakashatsi bukorerwamo.

Mu cyumba cyo ku bitaro harimo umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro y'akazi ndetse n'uturindantoki, aho ari gupima umurwayi nanone kandi hari uducupa dutandukanye dufite amabara y'umutuku n'umweru tubikwamo imiti.

Imbere y'inyubako itangirwamo ibijyanye n'ubuzima cyane cyane ubw'abana bakiri bato, hari itsinda ry'abantu bashinzwe kwita ku buzima bw'abana bambaye imyambaro y'akazi, aba bakaba bafite telefoni zigezweho mu ntoki zabo.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ikigina, ari ahantu habereye igiterane, aho ari gukoresha indangururamajwi ageza ubutumwa ku bamukurikiye. Iki giterane kikaba cyateguwe mu rwego rwo kurwanya ibiyobyabwenge.

hAantu hateraniye abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore, hari abandi bantu bateruye umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima, aba bakaba bamujyanye ahantu habugenewe, aho ari buherwe serivisi z'ubutabazi bw'ibanze kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hisanzuye hari ikibuga kimeze nk'icy'umupira w'amaguru hari imbaga nyamwinshi y'abantu irimo abagabo ndetse n'abagore, aba bakaba bicaye ahantu batwikiriye neza bakurikiye itsinda ry'abantu bari imbere yabo bari kubakinira inkinamico ku bijyanye n'ingingo zitandukanye.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bari imbere y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima. Aba bakaba barimo abambaye imyambaro ifite amabara y'umweru, ndetse n'umukara, bakaba bazamuye amaboko mu kirere.

Itsinda rigari ry'abantu biganjemo urubyiruko, bambaye imyenda isa ifite ibara ry'umweru, bakaba bahuriye ahantu hamwe, abo kandi barimo umugabo ufite indangururamajwi, aho ari kugeza ubutumwa ku bamukurikiye.

Icyapa kinini gikozwe mu mabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru kiriho amafoto y'abayobozi batandukanye. Aba bakaba bari gukangurira abantu kwitabira ikiganiro gikangurira abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Mu cyumba cyabugenewe cyo ku bitaro harimo abantu benshi barimo urubyiruko, abagabo ndetse n'abagore, barimo ababyeyi bafite abana bari munsi y'imyaka itanu, aba bakaba bategereje guhabwa serivisi zijyanye n'ubuzima.

Ni umuhanda mwiza wa kaburimbo ukozwe mu buryo bugezweho ndetse ukikijwe n'ibiti, harimo itsinda rigari ry'abantu biganjemo cyane cyane urubyiruko. Aba bakaba bafite igitambaro cy'amabara y'umweru n'icyatsi kibisi gikangurira abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi, ifite amabara y'umweru ndetse imanitseho icyapa kinini cyerekana ko icururizwamo imiti. Iyo miti ikaba ivura indwara zitandukanye zibasira umubiri zirimo imitsi, umutima, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

IImiti ivura indwara zitandukanye z'abantu zirimo umugongo, imitsi ndetse n'izindi. Iyi ikaba ibikwa ahantu habugenewe heza hatagera ubushyuhe bwinshi cyangwa ubukonje bwinshi mu rwego rwo kugira ngo itangirika.

Umuti ufunze neza mu ishashi ifite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi ushushanyijeho inkoko nkuru isake inkokokazi ndetse n'umushwi iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zibasira inkoko.

Imiti ifunze neza mu mabara, arimo ubururu, umweru ndetse n'umutuku, mu ducupa twiza dufite imifuniko, iyi miti ikaba irindwa kwangirika, mu rwego rwo kugira ngo itazagira ingaruka ku bantu baba bazayikoresha.

Mu rwego rwo kugira ngo imiti ivura indwara zitandukanye itangirika, yaba ihuye n'ubushyuhe bwinshi cyangwa ubukonje bwinshi, ni ngombwa cyane ko ibiko ahantu habugenewe, ndetse igashyirwa mu ducupa twiza dutuma itangirika.

Umuhanda wubakishijwe amabuye ashashe neza ku buryo adateza ibibazo ndetse mu mpande zawo hakaba hari inzu ikorerwamo ubucurukuzi, iyi nzu ikaba igurishirizwamo imiti ivura indwara zitandukanye zibasira umubiri.

Ahantu mu cyumba cyiza cyane, gifite amabara asa n'umweru, harimo uducupa twiza dufite imifuniko y'umuhondo, utu ducupa tukaba dukoze mu birahure ndetse tukaba turimo imiti, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, zibasira umubiri.

Itsinda rigari ry'abantu biganjemo urubyiruko, bambaye imyambaro y'umuhondo, bari kumwe n'abashinzwe umutekano, aba bafite igitambaro kinini cyanditseho ubutumwa bukangurira abantu kurwanya ibiyobyabwenge.

Mu nzu yabugenewe iberamo ibikorwa bitandukanye birimo ibijyanye n'imikino, imyidagaduro ndetse n'inama, hakoraniyemo abantu barimo umugabo wambaye impuzankano y'Igipolisi k'Igihugu, aba baje mu bukangurambaga bugendanye no guhashya ibiyobyabwenge.

Itsinda ririmo abantu bambaye imyambaro imwe ifite amabara y'icyatsi kibisi, ndetse barimo n'umugabo wambaye impuzankano z'igisirikare k'igihugu, aba bakaba bari gutaha ibikorwa bishya byagezweho.

Ibikoresho byifashishwa cyane cyane mu buvuzi, urugero nk'ipamba rizwiho kuba rifasha mu gupfuka ibisebe ndetse no kubikamya amaraso, hari kandi n'akuma k'ikoranabuhanga abaganga bakoresha iyo bari gupima indwara zo mo imbere mu mubiri.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabara y'ubururu ndetse imanitseho icyapa cyanditseho ijambo Girabu ubuzima, muri iyi nyubako hakorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi, imbere yayo kandi hari igikoresho bakoresha basukura intoki.

Inyubako ifite ibara ry'ubururu ikorerwamo ibintu bijyanye n'ubuzima cyane cyane ubw'abana bakiri bato, iyi nyubako ikaba ikikijwe n'ibiti bitanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bikanakorwarwamo imbaho nazo zikorwamo ibikoresho bitandukanye birimo nk'intebe.

Inzu nziza cyane ifite amabara y'ubururu ndetse imanitseho icyapa cyanditseho ijambo gira ubuzima, iyi ikaba itangirwamo serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuzima, imbere yayo kandi hari urukarabiro rugezweho.

Mu rwego rwo kugira ngo hanozwe serivisi z'ubuzima, leta y'u Rwanda yatangiye gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, birimo ibifite ubwenge karemano, aha twavugamo nk'amarobo, aya akaba yifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye biba bitakorwa n'abantu.

Umuti ufunze neza mu mabara arimo umweru ndetse n'icyatsi kibisi, ukaba ushushanyijeho inyamaswa zitandukanye zororerwa mu rugo, zirimo inka, ihene, intama ndetse n'inguru, uyu muti ukaba uvura indwara zitandukanye ayo matungo.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, ahetse umwana ari gukoresha urukarabiro aho ari gukaraba neza intoki ze, uyu mubyeyi kandi yikoreye ku mutwe agafuka k'umuhondo.